Indege yazamutse iri mu kirere, hari akagozi umuntu ahagazeho ari kuzamuka hejuru mu ndege. Indege iriho icenda igisira mayinazi sa na pa.

Imbwa irimo umushumi w'umukandara, ariko yegereye ivarisi. Irashaka kurya imyenda iri mu ivarisi, kubera ivarisi basize batayipfundikiye.

Umugore afite umwenda imbere ye hari isafuriya irimo umuriro guri kugurumana agiye gutwikirizaho umwenda, hirya hariho umupolisi wambaye ingofero, inyuma yabo hariho n'abana, inyuma yabo hariho inzu ya etaje.

Umupolisi afashe mikoro ari kuvuga, aremeshe inama abaturage ku musozi, abaturage bamwitabiye kandi bateze amatwi, bari kumwumva.

Abasirikare bambaye ingofero bafashe n'mbunda, bari kurugendo bari kwirukanka, bambaye imyenda y'akazi bagira bagiye gutabara.

Aba ni abadaso bicaye muri iyi nzu bicaye nk'abari gukoreshwa inama. Bose bateze amatwi bari kumvamva ico bari kubabwira.

Imodoka itwaye hejuru yayo amakarito, imifuka, ibidoro, irimo n'abagenzi, irimo n'abagenzi mo imbere.

Umusekirite yambaye imyenda y'akazi, yambaye agapfukamunwa yakazamuye ku mazuru hejuru, ahagaze mu kibuga, inyuma ye hari ibiti binini cyane.

Umupolisi arahagaze afashe mikoro，ari kuremesha inama abaturage， abaturage bamwe bicaye hanze abandi bicaye munzu yubakiye， yubatswe n'amabati ya tirigimu.

Aba ni abapolisi bafashe imbwa bari kuzikurura n'imishumi bari kuzijana ahantu bashakaga kuzijana kandi izi mbwa barazitojeje ntago zabarya zirabazi cane.

Ahangaha ni inama y'abaturage, yayobowe n'umusirikare umwe mu ngabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu zita ku baturage, zibungabunga umutekano w'abaturage, kugira ngo igihugu cyacu kibashe kugira amahoro asesuye, umuturage yishyire yizane, akore atere imbere.

Aba ni abantu bari mu nama, imbere ya bo hari amazi, harimo na za kamera, bari no kumva bakanandika.

Abantu bose bambaye udupfukamunwa. Hahagaze umugabo uyoboye, ufashe mikorofone. Imbere hicaye umusirikari, harimo n'undi uri ku ruhande wambaye akajire k'icyatsi uri gukontorora.

Polisi y'igihugu yegera abaturage ikababaza ibibazo bafite, ikabaganiriza kugira ngo barebe uburyo babungabunga umutekano w'igihugu. Muri rusange kandi polisi y'igihugu ikorera mu gihugu cacu mu turere tugiye dutandukanye kugira ngo begere abaturage bababaze n'ibibazo bagiraga.

Abagabo bicaye munzu, imbere yabo hari ameza bari kunywa ama fanta, bose umwe ni we wicaye imbere yabo.

Abantu bicaye mu kibuga, abandi babiri barahagaze, umwe muri abo bahagaze, afashe mikorofone ari kuvuga. Imbere ye hariho akameza karambitseho agakayi.

Inzu yicayemo abantu bane, uwa kane arahagaze afashe mikorofone ari kuvuga, abandi batatu baricaye, ufashe mikrofone asa nk'aho ari kubwira abantu bari imbere ye, n'abicaye na bo bakamwumva.

Uyu ni numusaza uri kunywa itabi mu gakono, yambaye ubucocero, afashe inkoni, arashaje cyane, yambaye ibikomo mumaboko, yambaye imyenda yacagaguritse.

Ibi ni ibyibo biboshye, baboshye bitandukanye ubunini n'uburebure, ni ibyibo biboheshejwe insindani, bagashira mo n'utundi dutako tw'umukara.

Inzu irimo ibikoresho bya gakondo bikoreshwaga bikoreshwaga mu Rwanda harimo inkoni, harimo ibyibo, harimo amabakure, harimo n'uducuma.

Akabindi gateretse hasi karimo irangi ry'umweru, bagiye basiga bashyiraho nk'akadomodomo, ni akabumba katali katekwamo, hirya hari akarago kagatangiriye.

Ingagi iri hejuru ariko ntabwo ari ingagi nyirizina. Ahubwo ni ingagi y'igishushanyo bubakiye iri ahantu bitira ingagi, kugira ngo abaza bajye babireba.

Akakanga ni agacuma kifashishwaga hambere, mu bantu b'abasaza bari kunywa ubushera bwabo, imitobe, imisururu , ni agacuma kifashishwaga mu muco nyarwanda.

Icyibo kiboshwe mu ibara ry'icyatsi n'icyatsi kibisi, gifite umufuniko kirasa neza.

Abakobwa batatu bambaye imishanana n'udupira tw'umweru n'utugozi mu mutwe, utundi turi kwerera mu maso, bari kubyina imbyino nyarwanda bateze amaboko.

Iyi nzu ni inzu ya kera, inzu ya nyakatsi abantu ba babagamo, ishishi isakajwe ibyatsi bigakomanya imigano bagahomesha urwondo.

Abantu babiri umwe arunamye afite umuseke ari kunywa ibintu biri hasi, hida yabo hari ibitoki.

Ingobyi bahekagamo abantu; abantu bamwe bananiwe kuja kwa muganga barwaye batagiraga ubundi bushobozi, bagahekamo n'abazungu bavuye mu gihugu c'iwabo badashoboye kugenda bakabafasha bakabageza ku ishamba.

Aba bari kubyina imbyino gakondo. Bambaye amayogera, bari kuvuza ingoma, bambaye udushumi mu mutwe, bateze amaboko, bambaye n'impu.

Abantu babiri imbere yabo hagati yo mu maguru yabo harimo akabuguzo bakiniragaho utubuguzo, umwe ari kugenda aratora arashira mu kobo, undi agashyira mu kobo, kandi umwe afite inkoni mu maguru ye, undi inkoni iri ku ruhande rwe, hirya hariho n'agacuma.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, n'imbyino nyarwanda abatuyurwanda barayikunda cyane ,abanyamahanga, abavamahanga iyo baje bakabyinirwa mu muco nyarwanda, mu muco gakondo barishima cyane bagasusururuka ,bakanezerwa ,imbyino nyayarwanda ni nziza cyane, cyane, cyane, buri umwe wese yifuza yayireba no kuyibyina.

Aba ni ababyinnyi babyinaga umuco gakondo, bafite uduti mu mpanga bakikorera n'ibyibo bari kubyina kugira ngo berekane ukuntu babyinaga neza.

Ibyibo bitanu biboshywe mu mukara mu ibara ry'umukara n'umweru birambitse mu misambi bifite imifuniko.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo Nyarwanda, bafashe inkoni bari kuvuza n'ingoma bambaye imikenyero, bambaye n'amarogi, bambaye n'ingofero.

Umuvure gurimo ibyatsi, iruhande rwaho hariho uduti. Umuvure niho inka zishoreraragamo.

Abagore batatu bambaye imikenyero n'utuntu mu mutwe. Bateze amaboko bashaka kubyina imbyino ya kinyarwanda.

Iki ni icibo babohaga bakoresheje intoki, bagakoresha n'urushinge, bagakoresha ibyatsi, n'uko bakakiboha neza kugira ngo kibone abakiriya kugira ngo n'uwa kiboshye yiteze imbere akoresheje imirimo ze z'amaboko.

Uyunguyu ni umwe mu banyarwanda bo hambere y'igihugu cacu, ni umwe mu banyarwanda barwaniriye iki gihugu cacu kugira ngo tubone ubwigenge, tubone n' mutekano.

Urunguru ni urusyo rwa kera, abakuru bacu bakoreshaga bari gusya ifu yo gutekamo umutsima ,cyangwa se gutekamo igikoma .Uru rusyo ni urusyo rutandukanye n'uko ubungubu tujya gushesha kunsyo zubungubu z'imashini. Uru ni urusyo gakondo bakoreshaga kera.

Abana barikubaha udukongoro. Umugabo yambaye imyenda z'imikenyero buri wese arikuja aramuha agakongo udukongoro tubiri tubiri.

Inkongoro ipfundikijwe n'umufuniko wo guhiciwa, Umufuniko wagoboheshwaga urushinge. Inkongoro ibazwaga mu biti.

Hano hahagaze umugabo wambaye ijire risa umuhondo ufite n'agakapu imbere, hirya hari intebe iboshwe mu migano irambitse hasi yo kwicaramo.

Umugabo ari kuvuza umwirongi awegereje umunwa, yicaye yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari ibiti.

Aba ni ababyinnyi babyina imbyino gakondo y'iwacu mu gihugu i Rwanda. Bikoreye uduseke berekanaga umuco wacu wo kubyina. Utu duseke kandi twifashishwa mu bintu bitandukanye, n'abantu bazi hanze baratugura bakadutwara.

Inka bazambitse mu ijosi no mu gahanga urunigi rw'umweru, zose zisa umukara zose kandi zifite amahembe yigondoye arebye hejuru.

Izi ni inka ziri mu rwuri zihagaze zishaka kugenda kugira ngo zibe zarisha ubwatsi; ni inka zifite ibara ryiza ry'umukara n'umweru kandi ni inka nziza.

Ababyinnyi bambaye imishanana. Bafashe inkoni bambaye uruniga mu ijosi, biteze n'ibyatsi k'umutwe.

Abakobwa bane bicaye bari kuboha; babiri bari kuboha ikirago, abandi bari kuboha uduparato bakoresheje ibyatsi kandi bari kuboha bambaye imikenyero, bari kuboha bicaye hasi.

Inkongoro ikamirwamo amata ,amata meza aba aryoshye. Iba ifite isuku nyinshi cyane, kandi inkongoro iri mu muco nyarwanda. Irakundwa cyane kubera ko ibika amata meza cyane kandi aryoha.

Hano hariho:Umutsima, hakabaho ibigori, hakabaho ibishimbo, hakabaho umutsima w'amasaka, hakabaho n'ibirayi, hakabaho n'ibijumba. Ibyo byose bikoreshwaga mu muco nyarwanda, igihe bari kuryaga umuganura.

Inkoko irambitse hano hasi iriho inzuzi nkeya bayanitse ho inzuzi. Ku ruhande hariho igisigati sigati.

Abagabo bicaye ku birago hasi bambaye imishanana, harimo abambaye ingofero, abandi bafite umusatsi ku mutwe. Hirya yabo, hicayeho umugore wambaye ibitenge.

Izi ni ingoma zivugwa zivuzwa bari kubyina imbyino y'iwacu yo mu Rwanda bari kubyina imbyino gakondo .Izi ngoma zirabafasha bari kubyina bakazivuza.

Agakono k'ibumba kari muri rondereza harimo n'inkwi ibiri ariko nta muriro bacanyemo. Hirya, hari akazitiro bakoze kugira ngo rondereza ibemo hagati.

Aga ni amarembo binjiriragamo, hakaba hariho uruzitiro ruzitijwe imigano ,kandi rukaba ari uruzitiro rumeze neza imbere hakaba ari ikibuga abantu bakoreramo imyidagaduro igiye itandukanye.

Igiteyo ni igikoresho bifashishaga bari kubaka, bari gucukura amatuwalete, bari gucukura imisingi ,bari gucukura ibindi bintu bitandukanye cyangwa ibyobo. Cyane cyane nibo bakiyifashishaga kugira ngo bayore itaka barijugunya hirya y' ahantu bari gucukura.

Abagabo bari kubyina imbyino nyarwanda, bambaye amayogera, bafashe amacumu, bafashe n'imigara, inyuma yaho hari uruzitiro ruzitiye harimo inzu zubatswe za kinyarwanda zisakaje ibyatsi.

Abana bari gukina umupira mu kibuga, undi yazamutse hejuru akoresheje igiti mu gora, ari hejuru ari kwerekana uburyo bw'umwitozo kugira ngo abandi bana, baje baramureberaga ho.

Utu nudukono bakoreshaga kera mu Rwanda rwo hambere, batekeramo ibyo kurya, bagashishiriramo imisururu, hatari hakaje ibijerekani bajyaga kutuvomeramo, canga se bakadutekeramo ,muri rusange twafashaga abantu ba mbere mu guteka, mu kuvoma, mu gushigisha, no kubikamo utuntu dutandukanye.

Uyu ni umuntu uri kuboha ibyibo. Akaboha akoresheje urusindano. Kandi ibi byibo birakundwa hano mu Gihugu, n'abantu bo hanze y'Igihugu bakunda ibi byibo.

Aba ni abanyarwanda ba mbere bo mu gihugu cyacu, bitwaye neza barwanirira igihugu kugira ngo ubu ng'ubu tube turiho, bafashije u Rwanda kubohora igihugu.

Izi ni imitiba zibagamo inzuki ,abahanjuzi bahakuriragamo ,zibaga ziri ahantu h'agashyamba ahantu hafi y'imigezi, ahantu mu biti, babaga barazubakiye kugira ngo zigire umutekano.

Izi ni ingoma abakaraza bari kuvuza bazikoma kugira ngo babone injyana yo kubyina, kandi ni ingoma zifashishwa mu muco nyarwanda buri wese areberaho ku biranga u Rwanda bya gakondo.

Fotokupiyeze ifashaga abantu gupurintinga impapuro zibafasha gukora mu bintu bitandukanye kandi fotokopiyeze ifashaga mu bigo by'amashuri, ku bitaro ,ku mirenge, ku turere n'ahandi hantu iba ikenewe.

Iyi nipensi yifashishwaga bari gufunga ibyuma bitandukanye, ndetse inifashishwaga mu guhonda akantu kakuma bakinjizamo indani kugira ngo katakangiriza umuntu.

Amatelefone ya motushi, n'agatelefone gasa n'umweru, amafishi imwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, muri taburo ni umweru, impande ya taburo ni ubururu, inyuma na none ni umweru, hariho umugozi uri uruhande rwabo.

Iyi ni inzu iri mu mujyi gwa Musanze. Inzu y'ibitaro, inzu ibi bitaro bikaba ari ibitaro byo kwa Mujomba kandi bivurirwamo indwara zitandukanye zigafasha abaturage.

Uru ni urusengero basengeraga mo rwa Gatorike kiriziya, ruherereye mu mujyi mu mujyi wa Musanze, hasengerwagamo abantu benshi bagiye batandukanye bizeraga kiriziya Gatorika.

Iki ni ikiraro abantu bajaga baranyura ho bagiye ahari umugezi, bashira ho ikiraro kugira ngo abantu bajye baragenda, babone uko bagera hirya bambutse amazi, nk'igihe haguye imvura nyinshi.

Ahagana amashuri inyuma, hariho umurima guteyemo karoti zizabafasha mu kugaburira abana bari kwiga mu kigo c'amashuri kandi iki kigo c'amashuri cubatse nka etaje.

Ibi n'ibiro by'intara y'amajyaruguru niho abayobozi bakorera, umuturage ukeneye kugeza icyifuzo ke ku bayobozi b'intara y'amajyaruguru, cyagera aha bakamufasha, bakamwakira neza.

Inzu zubatse mu murima, mu mirima y'amaterasi ni inzu zubatse hirya y'umuhanda no hino y'umuhanda, hakaba harimo ibiti , hakaba hari na kaburimbo.

Inzu y'akagari ka Kampanga ifite imiryango itatu imbere yayo, hariho intebe. Inzu ifite parafo ya langete, ikaba ifite amatara abiri manini arimo hejuru muri parafu.

Inzu ziri ku muhanda ni inzu zigiye zegeranye, zubakishijwe amabati asa, ziri kuri kaburimbo, hateyeho indabyo ku ruhande.

inzu zubatswe zegeranye ni inzu zubakiye hamwe ariko zitandukanye. inyuma, imbere y'aho hari umuhanda winjiyemo ujya kw'izo nzu. Hirya hari uducaca bagiye bahubaka. hirya bari kwinjiramo bakomeje imbere, hari indabyo bagiye batera barakata.

Uru ni urusengero rwa Adeperi Muhoza ruherereye mu mujyi wa Musanze, abantu basenga ku cyumweru ba Adeperi bajya kurusengeramo bikabafasha cyane.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, imbere ya bo hari amezi atatu, inyuma ya bo hari ikibaho, hirya ya ho hari ameza gagerekeranyije, hejuru hari ho ingoma.

Ugu ni umudugudu guherereye Murenge wa Kinigi, gwubatswe na Leta hagamijwe gutuzamo abaturage bari begereye hafi y'ishamba, kugira ngo bashirwe mu mudugudu gumwe, kandi bature ahantu heza babubakiye ama etaje.

Iyi ni inzu iri hafi y'umuhanda ya etaje, hafi hari akamodoka, kandi ni inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye cyane.

Inzu yubatse imbere y'ibiti, hino yayo hakaba hari akandi kazu kubatse. Inzu ikaba ifite ibyuma bishinze imbere, bifashe ku mabati hejuru.

Ikigo cya Groupe Scolaire Kampanga, giherereye mu Murenge wa Kinigi mu Karere ka Musanze, ni ikigo gitanga uburezi bufite ireme, kigira icyiciro kibanza cy'amashuri kikagira n'icyiciro cyisumbuye.

Umugabo ahagaze imbere y'abantu ariko yabateye umugongo, ari kureba imbere ye aho kureba imbere y'abantu; afashe microphone abandi baricaye.

Umuntu arahagaze ari kuremesha inama afite mikorofone. Abantu bari mu nama bamuteze amatwi ku musozi bicayeho.

Abantu bari mu nama bamwe baricaye abandi barahagaze, bakoresheje mikrofone bakoresha bafle haje n'imodoka.

Iyi ni inama y'abaturage, iyobowe n'umuntu umwe kandi bose bamuteze amatwi kugira ngo bumve ico ababwira kibafitiye umumaro.

Umusaza ufashe mikoro ari kumwe n'abandi bantu bari kumwitegereza wamuteze amatwi kugira ngo bumve ico ari kuvuga.

Abantu batatu baricaye imbere yabo hariho mikrofone, hariho amazi, hariho imashini, umusaza ari imbere yabo ari kubereka kugira ngo bamusinyire yambaye agapfukamunwa.

Inama yateranye y'urubyiruko n'abantu bakuze, iri kuremeshwa n'umuntu uhagaze hagati, undi ari gufotora ku ruhande, bicaye munsi y'ibiti, hirya hariho amazu gubatse kinyarwanda n'iyubakishije amabati ga kijambere.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda itwara abagenzi, ni imodoka ikoreshwa mu mugi wa Kigali, abagenzi bakoresha amakarita, kugira ngo bishyure amafaranga y'imodoka.

Iyi nigare ibaga muri rubavu yinjiriraragamo amamodoka go gutwara abagenzi gakanasohokeramo. Kagiye mu mpande zitandukanye z'igihugu . Kandi iyi nigare buri umwe wese ajya gutegeramo agiye aho ashaka kujya amamodoka gabaga garimo.

Iyingiyi ni gare y'imodoka y'urujya n'uruza abashaka gukora ingendo bajaga mu turere dutandukanye, cyangwa ahantu hatandukanye. Bibafasha gutega, bifashisha imodoka kugira ngo bagere aho bagiye bitabasabye ingufu ndende cane.

Iyi ni imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi bakoresheje amakarita, batagiye kurinda kujya gushaka amatike, kugirango ngo bagere aho bagiye, kandi igahendura mu guca amatike yo kubatwara.

Gare y'imodoka harimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abantu bafite ubumuga, bicaye mu tugare bari kuzamura mu modoka bakoresheje utugare twabo babatwaye, kugirango babone uko babinjiza mu modoka neza.

Umuntu atwaye igare, ahetse undi muntu ufashe mvelope mu muhanda gwiwibitaka, hirya hari ho umurima guteye ho guteye mo ibitoki ku ruhande hari ho n'urubingo.

Utumoto twa rifani duparitse hano ku muhanda， hariho abantu bagiye batandukanye， hariho n'indi moto atari moto ya rifani ， inyuma y’amamoto hariho n'imodoka， hariho n'inzu handitseho tigo，yanditseho twubake neza.

Aha ni ahantu amamodoka gaparikaga muri gare gategereje abagenzi, kugira ngo, amamodoka gabajane aho bashaka kuja, bashaka kuja bakoresheje imodoka, badakoresheje amaguru.

Aha imodoka ziri mu kibuga c'imodoka. Zisa n'ubururu harimo hirya hariho n'inzu izitijwe n'utwatsi tw'umutuku bateye twajaga turakura bakadukata.

Abantu bari mu bwato bakaba bari gukora mu mazi. Harimo umuntu uri kuyobora ubwato, harimo abantu bicaye abandi barahagaze.

Imodoka nyinshi ziri muri gare, hari mo n'abagenzi benshi, ni imodoka za vorukano zikorera hirya no hino mu gihugu, hari mo n'imitaka z'abacuruzaga amayenite ga emutiyeni n'aga tigo.

Izi modoka bazita taxi vatili, zitwara abagenzi batega bari priveti, bigenga, badashaka gutega imodoka zo mu kavayo, bategera muri gare, izi imodoka zirabatwara, zikabageza aho bagiye.

Umugabo atwaye ibidoro ku gipiringisi, ibidoro bitandukanye. Hariho abandi bantu bikoreye imifuka irimo ibindi bintu bari mu muhanda.

Uyu ni umugore utwaye akamodoka ka rifani, witeze agatambaro mu mutwe, imbere ye haruguru hari uwundi mugore ufashe telefone wambaye ibitenge.

Abantu babiri bari ku magare ga Siporo, gafite utuntu imbe tubiri. Akaba ari umukobwa n'umuhungu, umuhungu akaba yiteze ingofero.

Abantu batatu batwaye amagare, batwaye abagore bambaye ibitenge n'udupira biteze nibitambaro aba bagabo batwaye bambaye inkweto za bodabod batwaye muri kaburimbo

Imodoka itwaye abagenzi iri mu muhanda. Inyuma yayo hari moto batwaye, imbere hari indi modoka batwaye. Hirya hari umurima gurimo ibyatsi, imbere yayo hariho amazu abantu babagamo.

Abantu benshi bahagaze muri gare batondetse umurongo, bategereje ko imodoka zaza zikabatwara, harimo imodoka ya Ritiko, hakabamo n'imodoka za kwasiteri, hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye bategereje gutwarwa n'imodoka.

Mu isoko bari gupakurura mu modoka imifuka ya sima. Bari kuyikoreza abakarani harimo undi mwana wikoreye umufuka. Hirya hariho amabati ari gucuruzwa na za matera.

Abagenzi bari kwinjira mu modoka bari kubyigana. Imodoka iri muri gare aba bagenzi harimo abagabo, abagore, iruhande hariho n'umukarani.

Abantu bari kwinjira mu ndege, abandi bari kubaha amatike yo kwinjira mu ndege, umugore uri gutanga amatike, yambaye akajire k'icyatsi, n'undi mugabo uri inyuma ye afashe ivarisi mu ntoki, yambaye akajire k'icyatsi n'amataratara mu gahanga.

Umugore afashe igare, iruhande rwe hariho umugabo, imbere ye hariho undi mugabo uri gusa nk'aho ari gutambuka, inyuma yabo hariho intebe z'imisego, hariho amaferabeto, amaferabeto bari bushiremo beto y'isima.

Iyi ni ingorofani itwaye iri kwimura umuntu. Imutwariye ibikoresho yari afite mu nzu harimo: ama matera, hakabamo, n'agasanduku hakabamo ,n'umufuka, hakabamo n'imyenda ari kwimuka.

Abamotari bose baparitse amamoto gabo kandi bambaye amajere, bambaye n'amakasike bafite moto zisa, harimo n'umugore uri gutwara moto.

Imodoka ziri muri gare zo gutwara abagenzi harimo imodoka zatwegerane ,n'imodoka za bisi muri gare harimo abantu bahagaze .

Imodoka zitwaraga abagenzi ziri mu muhanda ziratondetse muri kaburimbo. Iruhande rwazo hariho ibiti, inyuma hariho izindi modoka nazo zishaka kugenda.

Imodoka ipakiye umucanga, imodoka ya fuso bayipakiye barayuzuza cane, iparitse ku muhanda hariho n'izindi modoka itatu ziri gutambuka.

Imodoka y'abanyeshuri iri mu muhanda irahagaze, imbere y'aho hariho moto iparitse, hari umuntu ushaka kwinjira mu modoka, uhagaze iruhande rw'imodoka.

Iyi ni imodoka iparitse hafi y'umuhanda itwara ibintu bitandukanye, itwara imizigo iyijyana mu gihugu mu mpande zose z'igihugu hatandukanye, iyo bakeneye gukoresha uwo muzingo bayitumye ukabageraho byoroshye.

Abakinnyi bicaye mu kibuga cy'umupira, abakobwa ni bo bari gukina umupira, inyuma hari abandi bantu bari kubareba bari kubafana.

Iyi ni inzu y' i Kigali ,abantu bajagamo bagiye kureba ibitaramo bitandukanye ,kandi iyi nzu ya kigali ni inzu yubatse neza, abahanzi benshi bakoreragamo ibitaramo byitabirwaga n'abantu benshi ,bagiye batandukanye.

Abakinnyi bicaye ku dusima bubatse, abandi barahagaze. Imbere yaho hariho amabaro atanu.

Imodoka nyinshi zikurikiranye ziri mu bantu benshi abantu bafunze bariyeri imwe ni iri imbere yabo, inyuma yiyo modoka iri imbere hari ibyotsi byinshi cyane, ivumbi umucucu mwinshi cyane, abantu barahagaze imbere yabo hari akagozi bashizeho kugira ngo bataharenga.

Abakinnyi b'umupira babahaye igikombe bari kwishimira intsinzi zabo, gifashweho n'abantu bane kandi bahagaze ku mupira gw'amaguru, inyuma yabo hari bandarateri n'uruzitiro rw'amahuhwa n'uruzitiro rw'amabati.

Abakinnyi bari gukina umupira muri stade harimo abantu bakeya bari kuwureba intebe zirimo ubusa hafi ya zose.

Abantu bane barahagaze. Umwe muribo ari imbere afashe umupira wa baro abandi batatu bari inyuma bambaye imyenda isa umweru undi uririmba rufashe umupira yambaye agapira k'umuhondo karimo ubururu n'ikabutura y'umuhondo irimo ubururu.

Abakinnyi baregeranye cyane bamwe bazamuye amaboko hejuru yabo hari aho abafana bicara baje kureba umupira, hariho hejuru yabo hejuru yaho hari amasikaririya bazamukiraho cyangwa se bakamanuka bajya kwicara cyangwa se bajya gukina umupira.

Aha ni muri sitade abantu bicaragamo bari kureba umupira mu kibuga .Bakaba bari kurinda n'abapolisi kugira ngo bataja no mu kibuga.

Umukobwa afashe baro, yambaye ikabutura n'agapira, afite umusatsi, yifashe mu mbavu, ari kwerekana akaromba n'inda.

Abantu bicaye mu nzu, bicaye ku ntebe bari kwitegereza imbere cyane, bari kumva ibyo bari kubabwira kugira ngo bazabishire mu bikorwa kandi bambaye udupira dusa, bamwe bambaye n'amakabutura.

Umuntu uri gukina umupira, gw'amaboko uri mukibuga yambaye ingofero n'imyenda z'umutuku, yambaye n'inkweto zifunze, hirya hariho igitambaro canditseho ngo: Rwanda openi.

Umuntu ari gukina umupira gw'amaguru muri sitade, harimo abandi bari kureba umupira, yazamutse hejuru ashaka gukubita umupira guri mu kirere.

Abakinnyi bahagaze mu marembo bari kumwe n'abandi bantu babegereye mu mpande zombi hakaba harimo umukobwa umwe witeze ingofero yambaye n'amadarubindi, inyuma yabo hakaba hari abantu benshi hariho n'ibendera ry'igihugu.

Iyi ngiyi ni shampiyoni ,ni muri stade habereye umupira w'amaguru, shampiyoni witabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, baje gufana amakipe ahakiniraga.

Umukinnyi uri mu kibuga uri gukina, hirya hari ho ibiti, hari ho abantu bicaye bari kureba umupira, hakaba hariho n'amapoto.

Abagabo babiri barahagaze. Harimo umwe muremure, undi utari mugufiya na we ariko nta bwo ari muremure nk'uyu wundi. Bambaye imyenda isa ya sipiro, bambaye amasaha asa n'utuntuza tw'umukara ku kuboko kw'iburyo.

Aha ni ku kibuga bari gukina umupira w'amaguru, abantu batatu bari mu kibuga cy'umupira bari gukina baro, abandi bari hanze yikibuga ariko bari kubareba.

Aba ni abantu batwaye amagare, bari mu irushanwa ryo gutwara amagare mu muhanda gwa kaburimbo bambaye n'ingofero n'abantu benshi.

Aba ni abakinnyi bakinaga umupira. Baje kurebwa n'abanyeshuri kugira ngo n'abanyeshuri, babone uko bazaja baritozaga gucina umupira, babigireho birabafasha.

Abantu batanu harimo umugabo wacitse ukuguru. Ufite ibikondo bakaba biteze ingofero zisa, bambaye n'imipira zisa bahagaze ku kibuga.

Abantu bari ku magare ya siporo barayatwaye bambaye ingofero. Ni abantu bambaye imyenda ya siporo batandukanye. Inyuma yabo hariho abantu bari kubareba biteye imitaka bahagaze mu gitoke.

Umukobwa uri mu kibuga afashe umupira gwa balo， amanitse ukuboko， yambaye ama jezi， ari kureba nk' umuntu ushaka guterera gora cyangwa mu izamu.

Abantu bari mu kibuga bari gukora siporo, ukuboko kumwe kuri hasi ukundi kuri hejuru, amaguru ari hasi kugira ngo bakore ingororangingo.

Abakinnyi bari kwerekana jezi imbere, bose bafasheho bagaragaza ubumwe, bagaragaza ubudasa. Harimo abakinnyi bambaye ingofero abandi basutse imisatsi.

Umukobwa ari gukora siporo atandaraje amaguru, amaboko arayamanitse, ari kuri basikete imbere ya vole ari gukina umupira kandi iruhande hari igikuta kiriho amarangi asa n'umuhondo harimo n'ubururu.

Aba ni abakinyi bari gukina ugu mupira gwa vole, bakagukinira hejuru kuri basketi, abanyeshuri bakaba bari kubareba, bahagaze mu mpande ku nkengero z'amashuri.

Mu muhanda urimo moto, hirya hakaba harimo ubusitani burimo amahuhwa, n'amazu ari ku ruhande y'abaturage na yo bacururizamo.

Gare y'imodoka ni gare y'ibitaka ntago ari gare ya sima, harimo imodoka ya twegerane, hakabamo n'imodoka ya taxi vuwatiri. Ku muhanda harimo moto ziri kugenda inyuma y'imodoka, hariho umuntu uparitse moto imbere mu muhanda harimo n'abandi bantu bari kugenda.